Aha ngaha rero murahabona umumama ni umuntu usa neza ariko afite mikoro bisa nkaho yaje mu nama ariko akaba yahawe mikoro kugira ngo abaze ikibazo cyangwa se abe yatanga inyunganizi kubitekerezo afite.

Aba ni abantu bicaye neza basaba bara ahantu mu nama, basa bose n'abateze amaso n'amatwi umuntu arimo kubabwira ndetse bakaba ari kugerageza gutekereza no ku byamo kubabwira, urabona ko harimo n'amacupa bagenda basoma ku ma mazi.

Aba bantu nabo rero, mu bigaragara ukuntu bicaye, bigaragara ko ari inama barimo kandi akaba ari mu cyumba kigari bicaye barimo gukurikirana inama, hari ibyo bari kubabwira babitega amatwi babitekerezaho kugira ngo nabo baze kubona uko batanga ibitekerezo byabo.

Aha ngaha rero murabona ko ari abantu bicaye biyubashye, bisa naho baje mu gikorwa cyo kwitabira inama, bakaba barimo kuganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye, ndetse murabona ko bakurikiye kandi n'abandi bateze amatwi, kugira ngo babashe kugira ibyo bibaza, no kwiyungura ubumenyi bwinshi ku byo ba bashaka barimo kubaganirizaho.

Aba bantu bicaye ahantu bisa n'aho bari mu nama bari kugenda baganira ku ngingo zitandukanye bigaragara ko buri wese ari kugenda yumva igitekerezo cya mugenzi we ndetse nawe akaza kuba yatanga igitekerezo bitewe n'uko abyumva biragaragara rero ko atari umuntu umweru uri gutanga ikiganiro ahubwo buri wese ari kugenda atanga ibitekerezo.

Aba ngaba rero nk'uko mubibona, murabona ko ari abaturage bateranye bisa n'aho bari mu nama, bari kugenda babwirwa bimwe mu bintu byinshi, bimwe mu byakuka igihugu, nk'uko mubibona rero murabona ko ahantu hadakoye hakoreshejwe amabara y'ibendera ry'u Rwanda. Rero biragaragara ko ari inama y'abaturage bahurijwe hamwe kugira ngo babwirwe bimwe mu byakubaka igihugu.

Nk'uko mubiyibona rero ahangaha biragaragara ko habereye inama. Aho abantu bahujwe kugira ngo baganire ku ngingo nyinshi zitandukanye. Murabibona ko harimo umuntu uhagaze, urimo agenda ababwira nabo bamuteze amatwi bakurikiranye ibyo arimo kubabwira.

Aba bantu rero, urabona ko ari abantu bicaye ahantu heza, bigaragara ko bari mu mahugurwa cyangwa se mu nama ariko ni abantu bagize itsinda rimwe, murabona ko bambaye imipira isa, bigaragara ko ari imipira bahawe mu mushinga bakoramo.

Aba bantu nk'uko mubibona rero, ni abantu bicaye bari mu nama, ariko biragaragara ko bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, noneho aba bantu bakaba bafite n'icyo kunywa imbere yabo, bicaye ku meza magari, ariko bigaragara ko bakurikiye ibyo barimo kandi bari no kubitega amatwi, bakabyumva neza.

Aha ngaha murabona ko ari abantu bateranye, abantu bakaba bambaye amataburiya bigaragara ko aha ngaha harimo inama y'abarimu, bari kuganira ku bintu bitandukanye byafasha mu kuzamura imyigire y'abanyeshuri.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona ni hantu harimo kubera ibikorwa bijyanye n'inama cyangwa se amahugurwa, aho hari umuntu urimo agenda ababwira, abandi murabona bamwe bari kwandika, abandi bateze amatwi bari kumva, iki rero ni ikigaragaza ko bakurikiranye cyane ibyo barimo kubwirwa.

Uyu mugabo rero murabona ko ahagaze afashe mikoro cyangwa se indangururamajwi ye, bigaragara ko arimo aha abantu ikiganiro akaba agenda abaganiriza ku ngingo zitandukanye, murabona rero ko hari undi mukobwa bahagararanye nawe bigaragara ko nawe afite icyo aribuze kubwira abantu bari ahangaha.

Murabona aba bantu rero uburyo bameze ni bantu barimo gukurikirana ibiganiro. Barikugenda bahabwa ibiganiro bitandukanye, noneho nk'uko mubabona murabona ko bateze amatwi barikumva ibiganiro bari guhabwa, kandi ko babishyizeho n'umutima batibereye mu bindi, ahubwo bakurikiranaranye ibyo barimo kubwirwa.

Aba bantu rero murabibona ko abantu bateraniye hamwe, bari mu nama, bafite ibyo bari kuganiraho, bigaragara ko umuntu uri gutanga inama ari kugenda atanga mikoro, bakabaza ibyo bashaka kubaza, noneho nyuma akagenda abisubiza, abasobanurira, abumvisha neza ibyo arimo kwigisha.

Aha ngaha rero murahabona abantu benshi benshi cyane, ari aba bari aha ngaha n'abari inyuma hariya imbere y'ibiti, ariko biragaragara ko aha ngaha bahahurijwe n'igikorwa cy'inama, ijyanye no kwiga, barimo kwiga ku bintu bitandukanye, rero akaba ari inama y'abaturage nkuko mubibona, murabona ko bicaye bateze amatwi, kandi bareba bumva ibyo barimo kubwirwa.

Aha ngaha rero murabona ko hicaye abantu biyubashye, bigaragara ko bateranijwe no kuba bahugurwa cyangwa se mu nama ijyanye no kuba babwirwa ibintu bakabifataho umwanzuro ndetse buri wese akaba yatanga n'ibitekerezo kugira ngo ibyo barimo gukora bibashe kugenda neza.

Aha ngaha rero murabona ko ari abantu bicaye neza, abantu bigaragara ko bari gukorera ahantu heza kandi ahantu hiyubashye. Nk'aha ngaha rero nk'ibi byapa biri inyuma yabo, murabona ko handitseho ngo Kigali yacu, bigaragara ko bari gukora ibintu bijyanye no guteza imbere Kigali ndetse no kuyigira nshya no kuyisukura bihagije, kugira ngo abayibona bose bajye bayibona ko ari wo mu murwa mukuru w'u Rwanda.

Aha ngaha rero murabona ko ari abantu bicaye, barimo gukoresha mudasobwa zabo, murabona ko bicaye bateranyirije hamwe, bisa n'aho rero ari abantu barimo kwiga ku ngingo zitandukanye, ariko cyane cyane bakaba barimo gukoresha ikoranabuhanga, kugira ngo bakomeze guhabwa amakuru ya nyayo kandi yizewe.

Aha ngaha rero murahabona abantu bicaye ariko aba bantu biragaragara ko bitabiriye inama, buri umwe wese ari kugenda atanga ibitekerezo, nk'uko mubibona imbere ya buri muntu hesitaye mayikorofone cyangwa se indangururamajwi kugira ngo najya gutanga igitekerezo cye abarimo aha ngaha bose babashe kumwumva neza.

Aha ngaha rero murabona ko ari abantu bicaye, bisa n'aho bateranyijwe n'igikorwa kijyanye n'inama cyangwa se amahugurwa, barimo kugenda bihugura ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, nureba neza murabona ko abenshi muri bo, bafite mudasobwa barimo kugenda bakoresha muri iki gikorwa.

Aha hantu rero murabibona ko ari ahantu heza cyane. Harimo intebe nziza haratatse neza haradekoye ni ahantu heza cyane. Ariko ikigaragara cyo ni uko hari kubera ibikorwa byo kurahira, aho bamwe mu bayobozi batowe barimo kugenda barahira kubwo inshingano bahawe.

Aba bantu rero murabona ko bicaye neza bakaba bicaye bitonze bigaragara ko hari amahugurwa barimo, bari kugenda baganira ku bintu bitandukanye urabona ko barimo gukoresha mudasobwa zabo, bakaba uyu mugabo by'umwihariko murabona ko arimo kuvuga bigaragara ko ari kubwira abandi ibyo atekereza.

Iyi nayo ni gurupe y'abantu batari benshi ariko na none si bakeya, bigaragara ko bari kuganira ku kintu runaka basa naho bo biragaragara ko bari mu na bo ubwaho bari kugenda baganira ku bintu runaka ndetse bakaba banabifata umwanzuro bakurikije n'ibitekerezo buri wese yagiye atanga.

Aha ngaha rero urabona ko ari ahantu hameze neza, urebye neza ni ahantu hagaragara ko ari ahantu hiyubashye, rero aha ngaha hakaba hari gukorerwa uburyo bwo kugenda bamurika cyangwa se bahanga udushya muri guverinoma y'u Rwanda kugira ngo babashe kuba bateza imbere, ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Aha hari uruhurirane rw'abantu, abantu mukabona ko bicaye neza bigaragara ko hari inyigisho bakurikiranye bose urabona ko bahanze amaso imbere, kandi bateze amatwi barimo kumva ibyo bari kubwirwa, rero bigaragara ko ari amahugurwa barimo arimo kubigisha ku ngingo zitandukanye.

Aha ngaha rero murabona abantu bicaye ahantu heza cyane, aha hantu hadekoye bakoresheje ibitambaro by'amabara mu ibendera ry'igihugu. Bigaragara rero ko aba bantu bari mu nama barimo kuganira ku ngingo zitandukanye ubona ko bose bateze amatwi bashishikajwe kumva n'ibyo barimo kubabwira.

Nk'uko mubibona rero aha hantu ni ahantu hiyubashye, ahantu hatapfa kugira umuntu uwo ari we wese. Bigaragara ko ari abantu b'abayobozi bateraniye hamwe, bari kwiga ku ngingo zitandukanye, aho buri wese afite ijambo afite icyo abasha kugeza kuri bagenzi be bakungurana ibitekerezo.

Aha ngaha rero murabona ko habereye ibikorwa by'imyidagaduro, bigaragara ko abantu bari aha ngaha bishimye rero murabona ko abantu bose bishimye, aba barimo kubyina ni Intore kwakundi intore zibyina bakajya guhagurutsa bamwe mubicaye bakababwira ati muhaguruke tubyine nabo bakabyina, murabona rero ko bishimye cyane.

Ahangaha murahabona umugore w'umumama wambaye linete umeze neza, uyu mugore bikaba nkaho ari kuganiriza abantu cyangwa se ariko kubaremesha inama. Murabona ko rero ahagaze imbere ya mikoro bigaragara ko ari kugenda abwira abantu bimwe mu byo yateganyije kubabwira.

aha hantu harimo kubera ibiganiro aho hari umukobwa uhagaze ufashe mickoro bigaragara aka ari gutanga ikiganiro abantu biyitsa bamuteze amatwi ndetse n'abandi bicaye imbere bigaragara ko bari gufatanya nawe we kuba batanga ikiganiro ntabona ko iki kiganiro kiri kubera ahantu ho umurenge mu mujyi wa kigali mu murenge wa kigaramamo.

Aha rero harimo kubera igikorwa cy'inama, hariho abaturage bicaye imbere bari kumva, hakaba hariho n'abandi bantu barimo gutanga icyo kiganiro ariko bigaragara ko bari gutanga ikiganiro kivuga ku ngengo y'imari, barimo kubwira abantu ibijyanye n'ingengo y'imari.

Aba ni abantu benshi benshi cyane ariko bicaye basa nkaho hari umuntu urimo kubaho ikiganiro bigaragara ko bose bamuteze amatwi barimo kumureba kandi biragaragara ko hari abantu bahuriye ku kintu runaka murabibona kuba bambaye amapaji yabo agaragaza ibyo bakora.

Aba bantu rero ni abantu bagize itsinda runaka, bateraniye hamwe, barimo kuganira ku ngingo zitandukanye nk'uko mubibona murabona ko buri wese afite ijambo, ntabwo ari ukuvuga ngo bayihariye umwe ngo avuge, ah ah buri wese ari kugenda avuga n'abandi bavuga bakamutega amatwi, noneho naho bakungurana ibitekerezo.

Aba bantu rero uko mubibona kubona ko abantu bitsa hamwe basa n'abari guhabwa amahugurwa ku ngingo zitandukanye noneho biragaragara ko barimo gukoresha porojegiteri ba porojegitinze bakerekana bikaba bari kugenda babyerekana berekana kungingo ku yindi kugira ngo babashe gusobanukirwa neza.

Aha ngaha rero hari umumama uhagaze ufite mikoro, bisa n'aho ari gutanga ikiganiro, ariko murabibona icyapa kiri aha ngaha cyanditseho ngo: "International mental health day." Uyu rero akaba ari umunsi wo kwita ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ahantu hose bagomba kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Aha hari abantu bateraniye hamwe hari ko bigaragara ko bari kwiga ku ngingo zitandukanye mubona ko hari kigali yacu nyine bari kwiga ku bintu bijyanye no gusukura umujyi wa kigali ndetse no gukomeza kuwuteza imbere.

Aba bantu na bo bakurikiranye ibiganiro, inama, bigaragara ko bose bateze amatwi, kandi bigaragara ko hari inama y'abantu biyubashye. Nk'uko mubibona rero abantu bari angaha bose ni abantu biyubashye, ariko bigaragara ko iyi nama bari gukora bose bateze amatwi bari kugerageza kumva neza ibyo barimo kubwirwa.

Aba bantu rero murimo kubona aha hantu murabona ko ari abantu biyubashye kandi bakaba barimo gukoresha imashini bandika raporo, bagenda bandika. Urarabona ko umwe muri bo ari kugenda yandika, abandi bamufasha kumurebera ko ari kwandika ibiri byo no kumubwira ibyo yandika.

Aba bantu murabona ko ari abantu bubashye ariko inyuma yaho cyangwa se hirya yabo hakaba hari abandi baturage, bigaragara rero ko aba bantu barimo gukurikirana inama, hakaba hari umuntu urimo ugenda babwira na bo bateze amatwi kandi bumva neza ibintu bari kubababwira, bagashaka n'uko na bo baza gutanga ibitekerezo byabo.

Nk'uko mubibona rero, aha hari abantu, ariko murabona ko abenshi biganjemo ari urubyiruko, biragaragara ko bahawe seretifika zo kuba baritabiriye igikorwa cya forumu, noneho bikaba byatumye babasha guhabwa seretifika.

Uko bigaragara rero, aba bantu bari mu nama niho bicaye barimo kuganira ku ngingo zitandukanye, urabona uyu mugabo uhagaze niwe urimo kuyibabwira birimo kubaremesha inama ariko biragaragara ko aba bantu nabo bamukurikiye bamuteze amatwi bashaka nabo gutanga ibitekerezo byabo kugira ngo ibintu bikomeze kumera neza.

Aha ngaha rero urabona ko hari icyapa ariko kirimo kwerekana ko barikwifuriza abantu umunsi mwiza w'umurimo, aho muzi ko hatari umurimo ntabwo twabaho. Ku byo turya, ibyo twambara byose biva mu mbaraga zacu, mu mirimo yacu dukora buri munsi.

Aha ngha rero murahabona abanyeshuri, bicaye neza cyane, aho buri munyeshuri imbere ye aha afite mudasobwa, arimo kugenda akoresha asacinga, ashaka amasomo, ashakisha kugira ngo abone amakuru ahagije, ku masomo ye arimo kwiga.

Aha ngaha hano rero murabona ko ari imwe muri serivisi zikorerwa ku Irembo aho barimo kukwereka ikinyabiziga moto ndetse n'imodoka ariko bikaba bigaragara ko ari uburyo umuntu yasaba kuba yakora ikizamini cyangwa se isuzumabumenyi bijyanye no gutwara ibinyabiziga.

Aha ngaha rero murabona ko ari serivisi z'irembo, mubona ko uyu muntu yari ari gushaka icyangombwa cyo gutwara ibinyabiziga, ashaka kugisinyisha, rero murabona ko yifashishije irembo kugira ngo abe yahabwa serivisi nk'iyo ngiyo bitamusabye kuba yakwirukanka ngo age kuri polisi ajya hehe, ahubwo akifashisha serivisi z'irembo.

Aha ngaha rero na ho hari icyapa kigaragaza uburyo wabyikorera, wisabira icyemezo cyerekana ko uri ingaragu, ukoresheje akanyenyeri magana cyenda n'icyenda urwego, wabasha kubyikorera ku irembo ukoresheje telefone yawe cyangwa mudasobwa yawe.

Aha hari inyubako, inyubako zimeze ukuntu ariko murabona ko hari ahantu hegeranye n'umujyi, urabona ko harakurya y'izi nyubako zigaragara hari amazu menshi menshi ahantu hagiye hacucitse bigaragara ko ari agace gatuwe cyane.

Aha ngaha rero murabona ko hari icyapa ariko kikaba kiriho ibintu bijyanye n'umubare w'abaturage bagize u Rwanda, aho bigaragara ko bagiye bakora muri bibiri na makumyabiri na kabiri, bagakora igenzura ry'abaturage bakaza kumenya ukuntu umubare w'abanyarwanda uhagaze.

ahangaha rero barimo kweyerekana uburyo wadekarara cyangwa se ukishakira rento inkamu tagisi rero ukaba ugomba kuyishaka ukazishyura mbere y'uko iyi tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere igera. Iyi tariki akaba ariyo tariki ya nyuma yo kwishyura iyi tagisi.

Aha rero ni ahantu hakorerwa serivisi z'irembo, nk'uko mubibona, uyu mucuruzi w'aho yarafashe afata icyapa cyanditseho ibyo akora, agishyira hejuru, kugira ngo abantu bose baze bamugana bazi ko bagiye gushaka serivisi zo ku irembo.

Aha ngaha rero murahabona igipangu kimeze neza cyane. Bigaragara ko mo imbere mu gipangu harimo inyubako nziza, inyubako yo mu bwoko bwa etage, urahabona n'amapoto agiye ahererekanya insinga z'amashanyarazi kugira ngo aba bantu babashe kubona umuriro w'amashanyarazi, uturuka kuri aya mapoto.

Aha rero murabona ko handitse Irembo, bigaragara ko ari serivisi z'Irembo zikorerwa aha hantu, uyu muntu rero murabona ko yari arimo gushaka seritifika ijyanye n'uko atakoze jenoside, rero mukaba mubona ko yari ari gukoresha Irembo mu buryo bwo guhabwa icyo cyemezo.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona hari icyapa kiri kubwira abantu ko habura iminsi itatu kugira ngo itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa igere, rero akaba ashishikariza abantu kuba bagomba kwishyura muri iyo minsi isigaye kugira ngo uyu munsi utazabafata bakaba bacibwa amande.

Aha ngaha rero murabona hari akapa k'umukara kanditseho Wi-Fi, noneho aka kapa kakaba kerekana ko murabona aka kantu k'umuhondo gashushanyijemo, karimo kwerekana ko aha hantu hari interineti ihagije, uramutse rero uje kuhakorera ushobora gukoresha interineti ihagije, bitagusabye amafaranga menshi.

Ahangaha hari igipangu kirimo amazu meza bigaragara ko aha hantu hose hari ibipangu byinshi ariko hari icyapa cyerekana irembo aho serivisi z'irembo zikorerwa hariho icyapa kibyerekana, rero buri muntu wese ushaka gukoresha serivice akigera kuri ki cyapa ahita abona icyapa kimuyobora mu Irembo.

Ubu nabwo ni uburyo bwo kwamamaza serivise z'irembo, aho barimo kwerekana ukuntu umuntu ashobora kubyikorera bitarinze byasaba ko ajya ku byicaro by'irembo, ahubwo agakoresha telefone ye. Hari umuntu urimo kubyerekana yishimye cyane, hakaba n'amabwiriza ushobora kugenderaho kugira ngo ubashe kwikorera serivise.

Nkuko mubibona rero iki ni icyemezo ibi ni ibintu bikorerwa ku irembo aho umuntu aba agiye gutangira gukora gushaka serivisi ku irembo, rero ibintu bimwe agenda abona iyo agitangira agiye gufunguramo akawunti kugira ngo agire icyo asaba mu irembo.

Aha ni ahantu habera ubucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo nk'amatelefone, amacagi, ariko bigaragara ko abacuruzi bagiye bandikaho, bakandikaho amagambo tekino kugira ngo babashe kwereka abakiriya ko aho hantu haba ibintu byo mu bwoko bwa tekino babashe kuza kugura bazi ibihabera.

Nk'uko mubibona rero iyi ni RURA, irimo kubaza abantu cyangwa se kubagira inama y'icyo bakora mu gihe gaze yabo iramutse ifungutse cyangwa se igiye isohokamo ikava mu icupa ryayo, harimo kuvuga byinshi bitandukanye ibintu bigera kuri bitanu byose umuntu ashobora gukora mu gihe gaze ye ihuye n'icyo kibazo.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona, murabona ko ari ahantu hakorerwa ibikorwa by'irembo, aho mubona umukozi waho yambaye umupira wanditseho irembo, ikindi kandi murabona mu mashini ye ko hamaze kugeramo urubuga rwo gutanga serivisi zijyanye n'irembo, aho rero uyu muntu arimo kureba areba ko ibyo yasabye birimo kugenda bikora.

Murabibona rero, aha ngaha harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bizwi ku izina rya mudasobwa, bigaragara ko harimo abanyeshuri barimo kwiga gukoresha ibi bikoresho, hakabaho n'abarimu barimo kugenda babahugura, uko bakoresha ibi bikoresho.

Ahangaha rero murahabona imashini, imashine nini ariko murabona ko bari gushaka kubwira abantu ko bakwiye kumenyekanisha umusoro ku nyungu, batirinze bategereza igihe bizarangirira, ahubwo guhera uyu munsi, akaba yatangira akamenyekanisha umusoro we.

Ubu ni uburyo bwo kwerekana uko wamenyekanisha umusoro ku nyungu ukoresheje telefone yawe no kugenda berekana ukuntu bikorwa, aho ugomba gukanda ururimi ugakoresha, ugakurikiza aya mabwiriza nyine ugenda uhitamo, kugeza igihe ibyo ushaka gukora byemerewe, urabibona hari terefone irimo kwerekana ukuntu ugomba gukanda akanyenyeri magana inani, ugakurikiza andi mabwiriza akurikiraho.

Ahangaha rero hariho itangazo ririmo kumenyekanisha cyangwa se ryerekana iminsi izaba ari ikiruhuko mu minsi isoza umwaka. Aho mubona rero hari umunsi uzaba ku wa mbere tariki ya 26/12/2022 aho uba ari umunsi ukurikira noheli, uwo munsi uba ari uw'ikiruhuko.

Aha ngaha rero murabona ko ikigaragaraho cyane ari imashini, iyi mashini ikaba iri gukoreshwa mu bijyanye no gusaba serivisi z'Irembo. Aha ngaha rero barimo kutwereka uburyo umuntu yabyikorera, akoresheje imashini cyangwa telefone. Bakatubwira ibisabwa kugira ngo ube wakwikorera, cyangwa se wakisabira icyemezo ushaka ku rubuga rw'Irembo

Aha ngaha rero murabona ko ari icyapa kinini cyane ariko ikigaragara cyo barimo gushimira abantu babasha kuba batanga imisoro kubera ko imisoro yifashishwa mu guteza imbere igihugu, cyane cyane ariko murabibona ko aka ari akarere ka Burera kafashe iki gikorwa cyo kuba kashimira abantu basora kuko imisoro ifasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye byo guteza imbere akarere kaho.

Aha ngaha rero hari uburyo bwinshi umuntu akurikiza ashaka kumenyekanisha igihembwe cye cya kane cy'ipatanti akoresheje mudasobwa, rero hari uburyo bwinshi ariko biba bisaba ko ugenda ukurikiza buri kamwe ukurikiza uko dukurikirana ukagenda udukurikiza kugira ngo ubashe kugera ku cyo wifuza.

Aha ngaha rero hari icyapa cyerekana ko cyanditseho ngo wayifayi avayirebo hiya, kibasha kwerekana ko aha hantu habasha kuboneka netiwaka, bitarinze byasaba ko uba wishyuye cyangwa se ibindi, ahubwo iyo uje ugafungura wifi yawe, ugafungura telefone yawe netiwaka, uhita ubona netiwaka ku buryo bwihuse.

Ahangaha rero hari amapoto atandukanye agenda ahererekana biragaragara ko ari amapoto ari murongo umwe hagenda uhererekanya insinga zigenda ziyobora umuriro ahantu hatandukanye noneho bikagaragara ko kandi hariho n'amatara kuruhande rwaya mapoto agenda amurikira iyobwira.

Aha ngaha rero murabona ko ari ahantu mu karitsiye, ahantu ku muhanda, hahandi usanga hari umuntu waje akahashyira umutaka, akaba aracuruza ama inite, agakora ibikorwa bijyanye no kubitsa no kubikura. Murabibona neza ko rero ari ibya Emutiyene, ikindi hantu murabona ko hari izindi nyubako ndetse n'amapoto ashinzwe kugenda atanga amashanyarazi, mu ngo zitandukanye z'aha ngaha.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha hari inyubako nziza cyane, inyubako yo mu bwoko bwa etaje, ariko biragaragara ko igikorerwa ibikorwa murabona ko batarayikora ku buryo igira amasuku neza, ikindi kandi murahabona iri poto rigiye rijyana insinga z'amashanyarazi mu duce tugiye dutandukanye.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha ni muri gare murabona ko harimo kugaragara imodoka nini yo mu bwoko bwa bisi ihetse abantu, noneho ikindi kandi murabona ko hari twa tuzu tuba twubatse muri gare, aho abantu bicara mu gihe bategereje ko bahamagarwa kujya mu modoka bakatishije.

Aha ngaha rero murabona ko naho ni mu muhanda ariko harimo kugaragara igice cyo hejuru ntabwo hasi hagaragara, haragaragaramo imodoka rero ndende yo mu bwoko bwa interinasiyonari ndetse n'indi modoka ya bisi bigaragara ko ari imodoka nayo ikoreshwa mu gutwara abagenzi, ikindi kandi murabona ko hariho abandi bantu bahagaze bari kwitegereza izo modoka.

Aha ngaha rero murahabona taransifo akaba ari taransifo ishinzwe kugenda izihererekanya insinga z'amashanyarazi, rero ikaba igenda ikoreshwa cyane cyane mu gace runaka kugira ako gace kose kabe kakwirakwizwa umuriro w'amashanyarazi.

Aha ngaha rero murabibona hari amazu menshi cyane ariko murebe neza hakurya, nta hantu hari amazu menshi acucikanye yerekana ko aha hantu ari ahantu h'umujyi, ahantu hateye imbere, kuko murabibona n'aya mazu agaragara neza, ni amazu meza cyane amazu yubatse neza ahantu hasukuye, heza cyane.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha hari ipoto irimo kugaragaza insinga zigiye zishamitseho, zimwe zihava zijya muri aya mazu ari hasi, zindi zigenda zikomeza. Bigaragara rero ko iyi poto irimo kugenda ikwirakwiza inshinga z'amashanyarazi, igenda ihereza izindi poto zegeranye kugira umuriro w'amashanyarazi ubashe kugera ahantu henshi.

Aha ngaha rero, muri kuhabona umunara munini cyane nawita umunara cyangwa se ahantu insinga nyinshi z'amashanyarazi zihuriye. Murabona ko iyi poto itari kujyana insinga mu ngo z'abantu, ahubwo iri kugenda ihereza andi mapoto insinga kugira ngo ayo mapoto abe ari yo yifashishwa mu gutanga umuriro mu ngo z'abaturage.

Aha ngaha rero murahabona umugabo, uyu mugabo yambayeye ibikoresho bikoreshwa mu muririro w'amashanyarazi, urabibona neza uyu mugabo yuriye ipoto ari kugerageza gukora ku nsinga, kugira ngo abashe kuba yakemura ikibazo gihari, murabibona ko rero yambaye ibintu bishobora kumurinda kuba yahanuka ari hejuru ku ipoto.

Aha murabona ko hari amapoto, hari ipoto rigaragara ko ari ipoto ririho itara, hakaba n'andi mapoto agiye ahererekanyije insinga z'amashanyarazi. Ikindi kandi murabona ko ari ahantu hari amashyamba cyangwa se ibiti by'ubwoko butandukanye.

Nk'uko mubibona, iri poti ni ipoto rihuriyeho insinga nyinshi cyane zigenda zirahura umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye. Murayibona rero hariho nka taransifo hariho ibintu byinshi byifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi, bawuvana mu gace kamwe bawujyana mu kandi gace cyangwa se bahererekanya ku ngo nyinshi zigenda zitandukanye.

Iki ni igipangu cyiza cyane, murabibona ko ari igipangu gifite isuku, kiriho amatara gikikijwe n'amatara, hariho ipoto, iriho insinga z'amashanyarazi, kuko insinga zigiye zivaho zijya ahandi, zivaho zigenda niko bigaragara, noneho hakaza kugaragaraho n'indabo nziza muri icyo gipangu mu imbere, haza kubaho insina ziri mu imbere mu gipangu ibiti bikikije igi.

Rero murabona ko ari mu bihande byerekeye umuhanda, ariko hari ahantu hatuwe hagaragara igiti kinini cy'umwembe; n' ikindi kandi murabona ko hari amapoto agiye ahererekanya insinga z'amashanyarazi, ndetse murabona ko n'urusinga ruva kuri iyi poto rugana muri uru rugo kugira ngo na bo babone umuriro bacane.

Aha ngaha rero murabona, ni urutsinga runini cyane, insinga zigiye zizinze, zizinze, izi nsinga rero akaba ari insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, mu bice byinshi bitandukanye.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona, haragaragara ishyamba ndetse hakagaragara na taransifo ifasha mu kugenda ihererekanya insing z'amashanyarazi, harimo kubonaho rero n'indi poto yegeranya na taransifo ari yo igenda icishwaho izi nsinga, igahererekanya n'andi mapoto bigiye byegeranye.

Aba bantu rero barimo kubaka ariko nk'uko mubibona ntabwo bari bubaka inzu cyangwa se ahubwo bari kubaka taransifa zijyanye n'uburyo izajya itaransi feringa cyangwa se iboherezamo ari umuyoboro w'amashanyarazi ugenda uhereza uduce dutandukanye.

Ahangaha rero murahabona, hari inyubako zitandukanye ariko ikigaragara hari icyapa cyerekana, Rege Remera bulance, Rege rero akaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bijyanye n'amashanyarazi, rero iki cyapa kikaba kiri kwerekana ko aha ngaha ari ku cyicaro cya Remera gikorerwaho ibikorwa bijyanye n'amashanyarazi.

Aha hari ipoto, murabona ko hagiye hanyuzaho insinga zitandukanye, zigiyemo uduce dutandukanye, zigenda zihererekanya umuriro w' mashanyarazi, noneho hakaba hari n'ibindi biti bihegereye kuri iryo poto, ariko ikigaragara cyane ni uko iri ririmo guhereza umuriro w'amashanyarazi ku yandi mapoto kugira ngo abashe guhereza umuntu.

Ahangaha rero murahabona amazu meza, amazu iminsi menshi ariko ikigaragara cyane ahangaha hari taransifo ibasha kuba yakwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu gace runaka. Rero iyi taransifo ikaba ishyirwa ahantu ku buryo barabasha gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hanini muri ako gace

Nk'uko muyibona rero aha ngaha hari amazu meza, amazu yubatse neza ariko bigaragara ko aha hantu ari ahantu hakorerwa ubuvuzi. N'uko mubibona abantu mwagiye mubasha kugenda ku bitaro cyane, mubona ko hagiye hari amazu yubatswe gutya mu buryo bugiye butandukanye.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona, ni ahantu heza hubatse neza kandi hafite isuku, urabona ko ari ibitaro bikuru bya Nyarugenge, byo mu Karere ka Nyarugenge, rero ibitaro bikuru murabizi ko ari ibitaro byifashishwa cyane, aho abarwayi bamwe na bamwe baba bananiwe kwivuriza kuri poste de sante zibegereye, bikaba ngombwa ko babohereza ku bitaro bikuru.

Nkuko mubibona rero, aha ngaha murabona ko ari ahantu heza cyane, ariko mukurikije abantu bahari, biragaragara nkaho ari ahantu muri hoteli, hakorerwa ibikorwa bitandukanye, Murabona ko hari abakozi bambaye imyenda isa, ndetse akaba ari ahantu hari jaride nziza cyane.

Aha rero hari inzu nziza cyane, ziri mu bwoko bwa etaje, hakabamo n'umuhanda, ugenda unyuramo, ariko biragaragara ko hino yaho, ari ahantu habikwa imodoka z'ibitaro, za modoka zigenda zitwara abarwayi, izigemura imiti, zose zibikwa mo aha ngaha.

Ahangaha rero murabona ko ari ku muhanda hariho umukobwa urimo kwitaba telefone ariko afashe n'ibindi bintu mu ntoki ariko murabona ko inyuma ye hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi hari amazu meza hari inzu igeretse iri mu bwoko bwa etage ariko bigaragara ko ari inzu nziza ndetse n'izindi nzu byegeranye bigaragara ko bikoreshwa imirimo y'ubucuruzi.

Nk'uko bigaragara rero aha hantu hateraniye abantu benshi ariko murabona neza ko imbere yabo hazamuyewe amabendera y'igihugu cy'u Rwanda, rero bikaba bigaragara ko aha hantu ari ahantu habera urubanza haba abacamanza bakorera, nkuko mubibona rero murabona ko n'abantu bicaye aha ngaha bambaye bitandukanye n'abantu basanzwe.

Ahangaha murahabona icyapa kinini cyane ariko akaba ari icyapa kirimo kwerekana uko inkiko gacaca zikora ndetse no kwamamaza inkiko gacaca. Rero inkiko gacaca ukuntu zikora, zikunda gukora zirimo kwegeranya cyangwa se kunga abantu baba barashwanye, baragiranye amakimbirane nabo bakifasha izo inkiko gacacamo kugira ngo bongere basubirane bahane imbabazi.

Aha ngaha rero murahabona icyapa kiriho umugabo wambaye rinete, ariko bikaba bigaragara ko uyu mugabo ari Kabuga Fecien, umugabo muzi cyane wagize uruhare runini mu ikorwa rya jenoside, akaba rero ari umugabo wafashije abantu bashakaga gukora jenoside, akaba yarabishakaga cyane ko abatutsi bicwa.

Aba bantu biragaragara ko bo ubwabo abo barimo kuganira, umwe arikugenda abwira undi ikintu runaka, undi akamusubiza uko abyumva. Nyine bitewe n'uburyo barimo kureba biragaragara ko ariko ari kwa kundi ubwira umuntu yarangiza akakumva, akagutega amatwi noneho nyuma na we akaza kukubwira ikiri ku mutima we.

Aha ngaha rero urabona cyane ko, hari icyapa kirimo kwerekana ko, kugira ngo uhabwe serivisi zo mu nkiko, bitagusaba kugira icyo utanga. Rero barimo kuvuga ko serivisi zo mu nkiko zitangwa ku buntu, ubutabera ntibugurwa.

Aha ngaha murahabona uruhurirane rw'abantu benshi bigaragara ko bari bapakiwe muri izi modoka. aba ngaba rero akaba ari bantu twita imfungwa cyangwa se abantu baba barashyizwe muri gereza bitewe n'ibyaha bakoze. Ariko aba murabona ko bambaye imyenda yihariye aba ngaba rero bambaye gutyo baba barakatiwe baba bafite imyaka bakatiwe.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona, urabona ko hari abantu benshi mo hagati hakaba hahagaze umuntu wambaye nk'imfungwa. Rero biragaragara ko aha habaye igikorwa cyo kuburanisha iyi mfungwa ku bijyanye n'ibyaha yakoze.

Aha na ho ni ahantu hagenda habera ubucuruzi butandukanye. Bigaragara ko hari abantu, hari imitaka ya MTN, iya TIGO, ariko bikagaragara na none ko ari mu muhanda. Aho abantu bagenda bambuka mu modoka, ariko cyane cyane hagaragara umupolisi urimo gucunga umutekano mu muhanda, ubasha kureba ko abagenzi barimo gukurikiza amabwiriza yo kugenda mu muhanda.

Aha ngaha rero murahabona igikoresho, iki gikoresho kizwi ku izina rya kizimyamwoto, iki gikoresho rero kikaba gikoreshwa cyane cyane mu nkongi y'umuriro, igihe hari ahantu habaye inkongi y'umuriro hakaba ari cyo babasha guhita bifashisha, kugira ngo bagerageze kuyizimya, rero iyo iramutse ari inkongi yafashwe cyane, bisaba ko bifashisha izindi nyinshi cyane zitari ubu bwoko.

Nk'uko mubibona rero aha hari umuhanda, umuhanda ukaba urimo kugendwamo n'imodoka urabona ko harimo imodoka yo mu bwoko bwa bisi bigaragara ko irimo abantu benshi, iyindi rero ni imodoka ntoya yo mu bwoko bw'amavatiri ariko na yo ni imodoka nziza, iri kugenda muri uyu muhanda.

Nk'uko mubibona rero iyi ni imodoka ihagaze ariko akaba ari polisi yayihagaritse arimo kwiyibaza ibyangombwa kugira ngo barebe neza ko uyu muntu yatwaye iyi modoka yaba ari umuntu ufite ibyangombwa byuzuye bimwemerera kuba yatwara iki kinyabiziga.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha hari umupolisi bigaragara ko ahagaze ari gucunga umutekano wo ku muhanda. Murabibona rero ko ari ba bapolisi baba bambaye imyenda yo ku muhanda, mubona ko ahagaze ahantu, bigaragara ko hari umuhanda, akaba ari gucunga umutekano w'ibinyabiziga.

Iyingiyi rero murabonanezako arikizimya mwoto ariyo yifashishwa agihe haramutse habaye inkongi yumuriro ihitayifashishwa igatanga ubutabazi bwibaze ikazimya rero ibaribyizako iyokizimyamwoto iba ahantu henshi cyane gugirango haramutse habaye inkongi yumuriro bahite bayitabaza mukuzimya

Aha ngaha rero murabona ko ari mu muhanda ariko uyu muhanda ukaba uri kuberamo ibikorwa bijyanye no kwiga imodoka, murabona ko harimo abapolisi benshi rero barimo kuyobora aha hantu, aha ngaha rero hari imodoka nyinshi ariko bigaragara ko igikorwa kiri kuhabera ari ikijyanye no kwigisha imodoka.

Ahangaha rero murahabona mu muhanda, ariko murerebye ruguru hari ishyamba rinini cyane, ariko uyu muhanda urimo kugendamo imodoka, murahabona na moto ndetse hari n'andi mapoto akikije umuhanda bigaragara ko ariho amatara, amatara ajya amukira uyu muhanda mu gihe cya nijoro.

Aha ngaha rero hari umuhanda ariko muri uwo muhanda n'umuhanda uri ahantu hateye imbere, urabona ko hubatse inzu nziza yo mu bwoko bwa etaje, hakikijwe ibiti, harimo imodoka abantu bari kugenda bambukiranya, ni ukuri biragaragara cyane ko aha hantu hateye imbere.

Aha hantu rero murabibona hari inyubako nyinshi nyinshi zitandukanye ikindi kandi ni mu muhanda murabibona ko hari abapolisi cyangwa se abo twita abashinzwe umutekano baba baje ku muhanda kugira ngo babashe kuyobora abantu ko bambuka kugira ngo bakomeze ku rwanya ndetse no kurinda agisida zo mu muhanda.

Aha ngaha ni mu muhanda, aho hari gucamo imodoka zitandukanye ariko mubona ko abashinzwe umutekano baba barimo bacunga umutekano bareba umuvuduko w'imodoka kugira ngo imodoka zitujuje ibisabwa babe bagabanya ko hakorwa impanuka bitewe n'umuvuduko mwinshi cyane mu muhanda.

Aha ngaha rero niba mubona neza urarabona ko ari ikibuga cyo kwigiramo gutwara ibinyabiziga, mubona harimo imodoka nyinshi, harimo amamoto menshi, umupolisi rero ari kugenda abaha amabwiriza yo kugenderwaho ndetse anagende areba neza ko ibyo bari gukora bari kubyubahiriza, bari gutwara neza maze akaba ari bumenye uko ari buze kubaha amanota.

Aha ngaha rero, nk'uko mubibona ni hantu ku muhanda murabona ko hari ibinyabiziga nka moto, ariko hari icyapa kinini kiriho umukandida Kagame Paul. Kigaragaza ko kiri kwamamaza ngo tora Kagame Paul akaba rero bigaragara ko kiri kwamamaza Paul Kagame.

Aha rero murahabona umugabo wicaye neza cyane, uyu mugabo akaba yambaye imyenda myiza ipantaro, ikote ndetse na karuvati, bigaragara ko ari umuntu rero wiyubashye, umugabo umeze neza, umugabo ufite amafaranga.

Aha ngaha rero murahabona umugore w' umama, bigaragara ko ahagaze imbere y'abandi bantu, akaba arimo kubaha ikiganiro, n'ubwo twe tutabona n'abandi bantu ariko mwe murabibona imbere ye hari mikoro, akaba yicaye imbere ya mikoro isa n'aho hari ibyo ari kuvuga, kandi ari kubibwira abantu bamuteze amatwi barimo kumureba.

Aha hantu rero murabona ko harimo kubera ibikorwa bisa naho ari ibikorwa bijyanye n'amatora, murabona ko hakikijwe n'ibendera ry'igihugu, amabara yo mu ibendera niyo muri kubona aha ngaha, mukabona abandi bantu inyuma bagiye batonze umurongo ndetse n'uwo muntu uhagaze mu muryango bisa n'aho ari kugenda ayobora abandi kugira ngo binjire mu muryango.

Ahangaha rero murabona ko ari uburyo ibintu bitondetse uhereye ku karere kumanuka, urabona ko habanza akarere, wamanuka hasi ukabona umurenge, wamara kubona umurenge ukabona akagari, inyuma y'akagari hakaza umudugudu. Rero nyuma y'umudugudu haza ibindi byinshi bitandukanye nk'uko mubibona.

Ibingibi rero ni ibisubizo byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ahomubonako paul kagame yatowe ku kigero cya mirongo icyenda n'icyenda n'ibice bitanu kw'ijana noneho furanke habineza akaba yaratowe ku kigero cya zeru n'ibice mirongo itanu nabitatu kw'ijana hakaza n'uwitwa philippe mpayimana akaba yara atuwe ku kigero cya zeru n'ibice mirongo itatu na bibiri ku ijambo.

Ahangaha rero urabona ko hari ahantu hicaye abantu benshi, ariko aba bantu bigaragara ko hari ibyo bahurijwemo bijyanye no guhugurwa cyangwa se inama, bakaba barimo kubwirwa ibintu bitandukanye byinshi, urabona ko bicaye bateze amatwi, ndetse n'urimo kubabwira akaba barimo kubabwira abo bamuteze amatwi, kugira ngo bagire ibyo bakuramo.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha, murabona ko ari inama yateranijwe abantu bakomeye, murahabona nyakubahwa perezida Paul Kagame ndetse n'umugore we Jeanette Kagame, urabona rero aha ngaha perezida ari kugenda aba ababwira, akababwira ibyo ashaka kuvuga noneho na bo bakamutega amatwi, bagakurikiza ibyo arimo kubabwira.

Aha naho hari abantu bateranye ariko murabibona ko buri muntu wese afite mudasobwa ye, arimo gukoresha. Bigaragara rero ko barimo guhabwa amahugurwa ku bintu bijyanye no gukoresha mudasobwa.

Nk'uko mubibona rero, aha ngaha hari abantu bahagaze bafashe ku ibendera. bari no ku bazamuye n'akaboko kabo k'iburyo, ariko ibi ngibi bikorwa iyo umuntu agiye kurahira yatorewe inshingano runaka, agafata ku ibendera akazamura n'akandi kaboko, arahira ko ibyo yatorewe azabikora neza.

Nk'uko mubibona rero, aha ngaha hicaye abantu bane ariko icyigaragaraho haragaragara perezida Paul Kagame yicaranye n'abandi bantu bisa n'aho ari mu nama hari ibintu ari kugenda ababwira, bari kugenda bigaho bigiye bitandukanye murabona ko afashe dokima ari kugenda asoma areba ukuntu ibintu bimeze.

Aha barimo kutwereka ubwitabire bw'abagore n'abagabo mu myanya y'Abadepite ndetse no mu Basenateri, aho batwereka ko mu Badepite abagore ubwitabire bwabo buri ku kigero cya mirongo itandatu na gatatu n'ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana, abagabo bikaba mirongo itatu na gatandatu n'ibice makumyabiri na bitanu ku ijana, noneho mu Basenateri abagore ni mirongo itanu na gatatu n'ibice umunani ku ijana, abagabo mirongo ine na gatandatu n'ibice bibiri ku ijana.

Nk'uko mubibona abantu bari ahangaha bafashe indangururamajwi bigaragara ko inyuma yabo hari abakandida bo gutorwa ku mwanya wa perezida w'igihugu aba bantu bisa n'aho bari kubwira abandi ko bakwiye gutora bagatora perezida ubabereye mbese barimo kubaha amabwiriza ajyanye no gutora.

Nk'uko mubibona rero aha hantu hari harimo kubera igikorwa cyo kwamamaza perezida Paul KAGAME, aho murabona ko higanjemo abantu bambaye amabara y'ishyaka rya FPR ahangaha ruma n'akari mu murenge wa karambo akagari ka karambo umuturage aho ku isonga abona ko bari bari kwamamaza perezida Paul KAGAME.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona ni ahantu habereye ibikorwa byo kwamamaza ishyaka rya FPR, aho mubona hizi egiserenti Kagame Paul ari kumwe n'abandi bapolisi n'abandi basirikare bamurinze, ariko murabona ko amabara ari aha ngaha ni umutuku, ubururu ndetse n'umweru aribyo birango bya FPR.

Ahangaha rero murabona ko aha hari igihe cyo gutora ariko bagaragaza urutonde ruriho abantu bari bimamarije amatora mubona ko hari hari uyu, habineza frank, wo muri girimi pati hakaba, mpayiimana philippe, akaba na kagame paul, noneho bikaba bigaragaza ko havevuye kuri kagame paul ariwe watsinze amatora.

Urabona ko aba bantu bicaye aha ngaha ni abantu bambaye neza, abantu biyubashye, urabona ko bicaye mu ntebe nziza. Aba bantu rero bakaba bari mu nama barikuganira ku bintu bitandukanye, murabona ko bose bateze amatwi kandi bahanze amaso imbere umuntu urikubabwira bamuteze yombi.

Ahangaha rero murabona ko ari ahantutu hari harimo kubera igikorwa cyo kwamamaza ishyaka rya FPR. Muzi neza ko rero uwo wari umukandida wari uri muri FPR ari Paul Kagame. Murabona ko Paul Kagame ari aha ngaha imbere, abantu bambaye imyenda bafashe amabendera bambaye ingofero, bakaba bose bishimiye kubona bazamura ku gifunsi.

Nkuko mubibona rero, aha ngaha hari abantu bishimye cyane, murabona abana barimo guhoberana nkabona barishimye cyane, bafite ibyishimo, bigaragara ko aha ngaha ari aho Habineza Frank yari arimo kwiyamamaza ari we uhagarariye ishyaka rya Girini pate.

Aha hari abantu, hari uruhurirane rw'abantu, ubona ko bicaye bose bahanze amaso imbere, bigaragara ko bari kugenda bahabwa amahugurwa atandukanye; urabona ko abenshi muri bo rero bafite mudasobwa zabo barimo gukoresha. Ndetse bakaba bakurikiranye mo imbere. Urabona ko imbere bashyizeho projecteur ku buryo abantu bose barimo kureba ibiri gukorwa.

Ahangaha rero murabona ko ari umuhanda munini, akaba ari umuhanda ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, ubonamo amagare, imodoka z'ubwoko butandukanye, n'aho mubona imodoka nini cyane, za modoka zambukiranya imipaka zitwara amapeteroli, amagaze ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Aha naho rero ni ahantu ku muhanda ariko murabona ko hari amazu meza cyane hagaragara ko nayo akorerwaho ubucuruzi bugiye butandukanye, nk'uko mubibona hari amazu menshi ariko nayo agiye ariho ibyapa by'ibihakorerwa hari ahacururizwa inzoga, hari ahacururizwa ibiribwa turahabona igare ripakiye ibiribwa byinshi.

Aha ngaha rero ni mu muhanda, umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza, ariko nk'uko mubibona cyane hari imodoka iri muri uyu muhanda, iyi modoka rero ni iya Rwanda Oxygen, ariko izi modoka ziba zishinzwe kugenda zambutsa ibintu nk'amapeteroli n'ibindi bigaze byinshi byo gukoreshwa mu bintu bitandukanye.

Uyu nguyu rero ni umuhanda ubona ko ari umuhanda urimo kugendamo imodoka yo mu bwoko bwa vateri, hakaba hari kugendamo n'amagare apakiye ibintu, ikigaragara cyo rero inyuma y'uyu muhanda murabona hakikijwe n'ibiti, ikindi hari shitingi iri inyuma yaho, bigaragara ko inyuma y'iyi shitingi naho hakorerwa ibindi bikorwa bifitiye igihugu akamaro.

Hano rero murahabona ni mu muhanda ariko uyu muhanda ukaba ugendwamo n'ibinyabiziga by,ubwoko butandukanye murabona ko hari n'igare yapakiye ibintu mukabona ko hari na moto iri mu ubwoko bwa rifani mukaba muri kubona ko inyuma y'umuhanda hari shitingi bigaragara ko hakorerwayo ibindi bintu.

Aha ngaha rero nkuko mubibona, murahabona imodoka nini cyane, akaba ari imodoka yo mu bwoko bwa Dayihatsu, ariko zimwe ndende zipakira ibintu bihishwe. Iyi modoka rero akaba ari imodoka handitseho meyidi ini Rwanda, bigaragarira ko yakorewe mu Rwanda.

Iyi ni imodoka ariko biragaragara ko ari za modoka zikoreshwa mu bintu bijyanye no kwiga gutwara ibinyabiziga, akenshi abantu iyo bari kwiga gutwara moto bakunda gukoresha izi modoka ziba zarabugenewe hari nka kampani ziturukamo, rero iyi modoka ni imwe muri izo modoka zikoreshwa mu kwiga gutwara imodoka.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona murabona ko ari mu muhanda. Uyu muhanda ukaba urimo kugendamo imodoka, biragaragara ko ari imodoka ebyiri ariko za modoka ndende zikoreshwa mu gutwara imizigo, ariko nonene imodoka zikunda kuba zanakoreshwa nk'igihe hari indi modoka yaba yagize agisida ikangirika, bakayipakiraho bakaba bayijyana mu garaje kuyikoresha

Nk'uko mubibona rero, uyu ni umuhanda, ukaba ari umuhanda urimo kugendwa kandi ugendwa n'ibinyabiziga by'ubwoko bitandukanye. Murabonamo moto, nigare, ndetse kandi murabonamo n'abagenda n'amaguru. Ariko haragaragara imodoka ipakiye insinga nyinshi, imodoka yo mu bwoko bwa fuso, murabona ko itwaye insinga nyinshi bigaragara ko hari aho zigiye gukoreshwa.

Aha ngaha murahabona umuhanda, ariko ikigaragara cyane muri uyu muhanda, ni ikinyabiziga cy'imodoka, iyo akaba ari ya modoka ifunze neza, imodoka akaba imodoka ikoreshwa mu gutwara amapeteroli, mazutu ndetse n'ibindi bintu bya gaze bitandukanye.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa urimo imodoka z'ubwoko butandukanye, harimo moto, harimo amagare bigaragara ko uyu muhanda ari nyabagendwa nta kintu na kimwe kibujijwe kugenderamo, ni umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga byose bigiye bitandukanye.

Nk'uko mubibona rero ahangaha ni umuhanda ariko biragaragara ko aha hari uruhurirane rw'amamodoka menshi, murabona amamodoka hirya y'umuhanda, andi mu muhanda y'ubwoko butandukanye moto, amagare, rero bigaragara ko aha hantu rwose habaye ambutiyaje y'imodoka.

Aha hanga rero nk'uko mubibona mu muhanda, ariko uyu muhanda uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka, moto, nk'uko mubibona. Ikindi kandi murabona ko nyuma y'ibiti hari izindi modoka na zo ndende, bigaragara rero ko uyu muhanda ari umuhanda nyabagendwa ukunda gukoreshwa cyane n'ibinyabiziga byinshi.

Uyu nawo ni umuhanda rero murabibona ko naho harimo kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye ariko ikigaragara cyane harimodoka nini imodoka dukunda kubona mu bwoko bw'imodoka zambukiranya imipaka rero nimwe murabizi ko izi modoka zigenda buhoro mu muhanda kuko ziba zitwaye ibintu biremereye cyane.

Aha ngaha rero ni mu muhanda, ariko ikigaragara cyane murabona imodoka ndende zo mu bwoko bwa Fuso, izi rero akaba ari imodoka zifashishwa mu gutwara imizigo igiye itandukanye. Abantu bakunda kuzikoresha nk'igihe umuntu ari kwimuka, ikamufasha kwimura ibintu, gutwara umusenyi, amabuye, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kandi byinshi.

Ahangaha rero murabona imodoka nini cyane, akaba ari imodoka yo mu bwoko bwa fuso. Akaba ari imodoka yifashishwa mu kugenda itwara, ibintu by'imizigo, ibintu bigiye bitandukanye, harimo nko kuba umuntu yimutse, akayifashisha mu kwimura ibintu, kugenda itwara amabuye cyangwa umusenyi ahantu bari kubaka, ndetse n'ibindi byinshi bikorwa n'iyi modoka.

Aha rero muriregare ho murabibona ko harimo ubwoko bw'imodoka bugiye butandukanye, hakabamo n'abantu barimo gucuruza abandi twita abazunguzayi, rero modoka iri mu kugaragara ni imodoka yo mu bwoko bwa tagisi ariko yanditseho jugumila, murabona ko hari n'indi bisi nini cyane irimpande yayo abantu barimo bari gushaka imodoka zo kugenderamo n'abandi.

Uyu ni umuhanda ukikijwe n'ibiti, ibiti byiza cyane ku muhanda bigaragara ko urimo kugenda mo imodoka moto n'amagare, ariko inyuma y'ibiti harimo kugaragara ko hari ahandi hantu hari kubera ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, nk'uko mubibona rero uyu ni umuhanda nyabagendwa ugendwa n'ibinyabiziga byose murabona ko hino hari akayira k'abanyamakuru ni ako abanyamaguru bagendamo.

Ahangaha rero urahabona hari umuhanda, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inyubako zitandukanye, hari inzu ziri hano bigaragara ko ari muri farumasi, ahandi hakaba hakorerwa ibintu bijyanye n'ubuhinzi no gutunganya ibintu by'ubuhinzi.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona ni mu muhanda ariko uyu akaba ari umuhanda, urabona ko ari umuhanda mwiza ukikijwe n'ibiti byiza, hakaba harimo imodoka iri mu bwoko bwa toyota ariko iyi modoka akaba ari imodoka ya RBA, RBA murabizi ko ari ikigo gishinzwe ikusanya amakuru mu Rwanda.

Aha na ho murabibona ni mu muhanda ariko uyu muhanda urimo imodoka bigaragara ko ipakiye ibintu byinshi cyane, urabona ko bahatwikirije ihema bakanazirika kugira ngo ibintu imodoka ipakiye bitaza gucika bikagenda bigwa, biragaragara ko rero hari n'indi shitingi, inyuma yayo hakorerwamo ibindi bikorwa byinshi bitandukanye.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona ni mu muhanda ariko hari umuhanda umeze neza, umuhanda mugari bigaragara ko ukikijwe n'amazu atandukanye, murabona rero ko harimo imodoka z'ubwoko butandukanye, hari imodoka nini yo mu bwoko bwa bisi ndetse hakaba n'imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri zose zikaba ziri kugenda muri uyu muhanda.

Aha murahabona imodoka irimo kugenda mu muhanda, ikaba ari imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu, imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo, rero hari abantu bashaka nko kwimuka bakifashisha izi modoka kugenda bahererekanya imyaka, nk'umuntu wejeje imyaka ayijyanye ku masoko nawe agapakira muri iyo modoka, ndetse n'ibindi bikorwa cyane cyane byo gutwara imizico iyi modoka irabikora.

Aha ngaha rero murahabona umuhanda, umuhanda urimo kugendamo ubwoko bw'ibinyabiziga, ni bubiri burimo none aha moto n'imodoka, ariko bitavuze ko hari n'ibindi binyabiziga bigenda, rero murabona ko hakurya inyuma y'umuhanda hari shitingi bigaragara ko inyuma y'aho hakorerwamo ibindi bikorwa byinshi byateza igihugu imbere.

Nk'uko mubibona uru ni uruhurirane rw'imihanda, imihanda igiye itandukanye ikikijwe n'amashyamba, ibiti byiza bimeze neza cyane, kandi bigaragara ko uyu muhanda ugendwa n'imodoka ndetse n'ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, harimo imodoka, moto amagare, n'ubwo hagaragara moto ariko n'ibyo yose bibasha kuwugendamo.

Ahangaha rero murabibona neza ni mu muhanda, akaba ari umuhanda uri kugaragaramo ibinyabiziga bibiri ubungubu ibyo mubona murabona ko ari moto ndetse n'imodoka ndende yo mu bwoko bwa fuso igenda itwara imizigo, ikaba rero ari imodoka yifashishwa igihe umuntu wenda ashaka kwimuka cyangwa kwimura imitungo ye, igihe umuntu ashaka kugemura imyaka yejeje ahantu runaka akaba yakwifashisha iyi modoka ya fuso.

Ahanga aha rero murahabona hari umuhanda mwiza cyane uyu muhanda ukaba uri kugaragaramo imodoka nini cyane yo mu bwoko bwa bisi, izi modoka rero zizwiho umwihariko wo gutwara abantu benshi ku buryo zibasha kuba zatwara abantu bakubye nk'aba tagisi inshuro nyinshi. Rero iyi modoka murabona ko iri kugenda muri uyu muhanda kandi uyu muhanda ukaba urimo kugendamo n'abandi bantu.

Aha hangaha rero murahabona neza, ni mu muhanda wa kaburimbo, aho hari umuhanda ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, murabonamo imodoka, moto ihetse umuntu, igare ndetse n'abandi bantu hakurya barimo kugenda n'amaguru.

Uyu muhanda rero urabona ko ari umuhanda mwiza ariko umuhanda ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, ariko cyane cyane murahabona imodoka, iyi modoka ni iyo mu bwoko bwa fuso, ikaba itwaye ibintu byinshi bitandukanye, izi modoka rero zipakira ibintu bigiye bitandukanye.

Aha ngaha rero nkuko mubibona, murabona ka ari mu muhanda, uyu muhanda akaba ari umuhanda nyabagendwa ugendwa n'abantu, ndetse n'imodoka cyangwa se ubwoko bw'ibinyabiziga bitandukanye. Aha ngaha hakaba hari kugaragara cyane moto yo mu bwoko bwa lifani, akaba ari moto yifashishwa mugo mu kugenda ijyane imizigo itandukanye, ariko akaba ari moto ihendutse kurusha uko wagura imodoka.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona murabona ko ari ahantu heza cyane ndetse harimo ibinyabiziga bigaragara ko ari muri gare kuko murabona abantu bicaye kuri twa dutebe two muri gare bategereje ko babona imodoka zibajyana zikabageza iyo bagiye.

Aha ni ahantu heza cyane, bigaragara ko hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hari amamoto, imodoka zigaragara, mbese urebye neza ubona ko aha hantu ari muri gare, gusa biragaragara ko hari abamotari bategereje abagenzi, hari imodoka zihagaze hirya, abantu, iyi foto rero ni cyo irimo kugaragaza.

Aha hantu ureba ni ahantu heza cyane, urabibona ko harimo imihanda, umuhanda umwe uca hejuru y'undi, murabiibona rero hari ibiti byiza, ariko ikiza cyane ni iyi imihanda. umwe uca hejuru y'undi, kandi biragaragara ko yose ari imihanda nyabagendwa, icibwamo n'ibinyabiziga byo mu bwoko butandukanye.

Aha ngaha rero, nk'uko mubibona murabona ko ari mu muhanda, uyu muhanda ukaba uri kunyuramo ibinyabiziga biri kugaragaramo ubu ngubu, ni moto ndetse n'imodoka. Iyi modoka ikaba ari za modoka zo mu bwoko bwa tagisi bakunda gutwaramo abagenzi. Hari abagenzi bakunda kuzita twegerane bitewe n'uko imyanya yayo iba yegeraye bisaba ko mwicara mwegeranye cyane.

Nkuko mubibona ahangaha rero murabona ko ari mu muhanda, aho hari kugendamo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, murabonamo iyi modoka, mukabonamo igare riri ahangaha, ariko ikigaragara cyo ni uko uyu muhanda ari umuhanda nyabagendwa, kandi ukunda gukoreshwa cyane, urabona ko rero hari n'inzira y'abanyamaguru, kugira ngo bitabangamira abantu bari kugenda mu muhanda.

Aha ngaha nk'uko mubibona ni mu muhanda, ariko uyu umuhanda ukaba urimo kugendamo moto yo mu bwoko bwa rifani. Rero iyi moto ikaba yaragenewe gutwara imizigo itari myinshi cyane kandi ikaba yarashyiriweho abantu badafite ubushobozi buhambaye bwo kuba bagura imodoka yo gutwara imizigo yabo, noneho bo bakaba bakigurira iyi moto ya rifani kugira ngo ijye ibafasha mu gutwara imizigo yabo.

Aha ni ahantu hari uruhurirane rw'imodoka, bigaragara ko izo modoka ziri mu bwoko bwa takisi kandi birimo kugaragara ko ari imodoka zitegereje abagenzi zitwara nyine bagiye mu bice bitandukanye.

Nk'uko mubibona kandi rero aha ngaha dore ni umuhanda wa kaburimbo ariko ukikijwe n'amashyamba, ibiti byiza cyane, nubona inyuma yabyo hari shitingi bigaragara ko inyuma y'i yo shitingi hakorerwa indi mirimo. Ariko icyo tubona cyane n'uyu muhanda. Iyi modoka murayibona. Ni umuhanda nyabagendwa ugendwa n'ibinyabiziga bitandukanye.

Hari imodoka zirimo kugenda muri uyu muhanda urarabona ko imodoka irimo kugaragara cyane n'iyi modoka y'umuhondo bigaragara ko ipaki ibintu byinshi cyane, murabona ko batwikiyeho n'ihema bigaragara ko ari ibintu byinshi cyane iyi modoka ipakiye.

Nk'uko mubibona rero ahangaha iyi ni za modoka ya mabisi maremare bigaragara ko nk'ahanga hari umuryango wo kwinjiriramo, murabona ko ari imodoka mo imbere ni imodoka nziza cyane ndetse n'inyuma murayibona. Imodoka imeze neza rwose ibintu birimo byose ni bishyashya biragaragara ko ari imodoka ikimeze neza itarangirika

Aha ngaha rero mu muhanda, hakaba harimo kugenda moto itwaye undi muntu, igaragara ko iteganye n'imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso, imodoka ikaba yifashishwa mu kugenda itwara imizigo myinshi itandukanye, kandi murabona ko hakurya y'umuhanda hari shitingi, herekana ko inyuma ya shitingi, harimo ibindi bikorwa bikorerwamo.

Aha ngaha rero hari umuhanda, bigaragara ko ari munini cyane, ukikijwe n'ibiti, byiza cyane, ariko ikigaragara cyo, hari imodoka yo mu bwoko bwa Ritco limited, izi modoka ziba ari imodoka nini cyane, murabona ko muri uyu muhanda, harimo kugenda n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye, harimo nka moto, amagare, n'ibindi byinshi.

Iyi n' imodoka nini cyane yo mu bwoko bw'amabisi, ariko biragaragara ko ituruka muri kampani ya royo Egisipurense ikaba iri kugenda mu muhanda hari moto biri kugendana ariko hakaba hino y'umuhanda hari indi nzira y'abanyamaguru, abanyamaguru barimo kwambukamo.

Aha hari umuhanda urimo kugendamo imodoka zo mu bwoko butandukanye, ariko ikigaragara cyane ni uko hari moto itwaye umugenzi, hari imodoka ipakiye ibintu by'inzoga, za modoka zipakira pirimusi, henikeni n'izindi nzoga zigiye zitandukanye.

Nk'uko mubibona rero ahangaha naho ni mu muhanda ariko murabona ko uyu muhanda ukikijwe n'amazu meza cyane, hari inyubako nziza yo mu bwoko bwa etaje bigaragara ko nayo ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye harimo farumasi, hakaba hari kandi n'ibindi bikorwa byinshi bikorerwa hano hantu.

Aha murahabona biragaragara hari ibinyabiziga hari moto, hari umuntu urimo kwigendera, ikindi murabona intebe ahantu hegeretse igare, mukaza kubonaho n'umutaka wa emutiyene bigaragara ko hakorerwa serivisi za mobayiro mani, ndetse murabona ko hari n'umuhanda munini cyane kandi urimo kugendamo abantu batandukanye.

Murabibona neza rero uyu ni umuhanda, ariko umuhanda uragaragaramo igare n'imodoka nini cyane izwi ku izina rya Litigo. Nkuko mubizi rero iyi ni modoka itwara abantu benshi cyane ariko nubwo ari nni ibasha kugendera ku muvuduko nk'uw'izindi modoka. Ikindi kandi uyu muhanda murabona ko ari umuhanda mugari cyane, ubasha kugenderwamo n'abanyamaguru.

Aha rero hari ikibuga kinini cyane, bigaragara ko ari ikibuga gikorerwamo imikino, murabona ko haciyemo imirongo, aha hantu rero hakaba hakorerwa umukino w'umupira, kandi iyo mipira itandukanye.

Uko mubibona aha ngaha ni mu nkengero z'umuhanda, hagaragara umuhanda w'imodoka ndetse n'inzira y'abanyamaguru, ariko cyane cyane hakurya yawo hari igipangu cy'umuntu, noneho hakaza kuba ni ibyapa biyobora abantu bajya muri Nyarugenge, abandi bo muri Kigali city, ndetse hakaza n'icyapa cyerekana uko abantu bagomba kugenda mu muhanda.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona, hari umuhanda, hakaba hari n'umuntu uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru, ariko hakuno y'umuhanda, hubatse amazu menshi y'ubwoko butandukanye, hakorerwamo ibintu bitandukanye, hari ahakorerwa serivisi zijyanye na banki, kugenda batanga inguzanyo ndetse no kwishyura, bakoresheje iyi banki yabo.

Aha ngaha rero murahabona umuhanda mwiza cyane, ni umuhanda ukase neza nk'uko bigaragara, ni umuhanda ukiri mushya utarangirika, uyu muhanda ukaba uherereye Kibugabuga, urarabona ko hariho n'ibindi byapa, ukikijwe n'insinga z'amashanyarazi, urarabona ko ari ahantu heza cyane.

Aha ngaha rero murabona ko ari umuhanda, uyu muhanda ukaba uri ahantu heza cyane, mubona ko ari umuhanda nyabagendwa hagendamo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye n'imodoka moto murabona ko ari mu bwoko bw'imodoka imodoka yo mu bwoko bw'amabisi. Rero mukongera kubona ko ari umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza cyane ndetse n'amapoto agiye ahererekanya insinga z'amashanyarazi.

Ahangaha rero nk'uko mubibona, ni mu karere ka Muhanga, ni umuhanda ukikijwe n'ibiti birebire cyane, ariko ikigaragara cyo ni uko abantu bitabiriye ari benshi, baje kureba uyu mukino w'amagare, uri guca muri uyu muhanda wo muri Muhanga, abantu bitabiriye cyane, kugira ngo baze kureba aya magare.

Aha ngaha rero murahabona icyapa, iki akaba ari cyapa gikunda gushyirwa mu muhanda w'imodoka kugira ngo abantu bagenda bajye babasha kumenya ngo ndambukira aha, gikunda gushyirwa ahantu hari redi korose aho umuntu wese ugiye kwambuka umuhanda yambukira ahantu hari icyapa cyangwa se hari umuhanda uciyemo imirongo y'umweru.

Aha ni ahantu heza cyane, hari amashyamba meza, gusa ikintu cy'ingenzi kiriho, hari ibyapa bigaragaza ko hari mu karere ka Rusizi, bikagaragaza ko ishyamba riri aha ari mu Nyungwe, ishyamba rya Nyungwe na Cyamudongo, rero ibintu n' ibyapa byerekana aho ushobora kunyura ujya muri muri iryo shyamba.

Aha rero ni ahantu hubatse neza, heza cyane, murahabona ubwoko bw'amazu atandukanye, ahari igipangu, igipangu cyiza gikikijwe n'amatara ku gipangu hejuru, murabona ko harimo ibiti byiza cyane, kandi muzi akamaro k'ibiti; ibiti bigenda bitanga umuyaga mwiza, bikavamo umwuka mwiza duhumeka.

Ahanu ahobita kugiporoso nimwisoko bacururizamo ibintu bitandukanye murabibonako haribikorwa bijyanye Hari imitaka myinshi abantu bacuruza ibintu bijyanye na mayinite na service za mobile money hariho umuntu Ucuruza amarineti indetse ninyuma harinindi miryango bigaragarako ikorerwa ibikorwa byubucuruzi

Aha rero hari inzu zifite imiryango itandukanye aho hagaragaraho abacuruzi bagiye bashyira ibyapa ku nzu zabo kugira ngo babashe kwerekana neza ibyo bakora. Hari ahakorerwa ibintu bijyanye no gucuruza ibiribwa ndetse n'imbuto. Hakaba n'ahandi ho kugurira imiti ari ho tuzi nka farumasi, murabibona rero ko ari ahantu hanini cyane.

Aha ni ahantu hanini cyane ariko ikigaragara cyo habera ubucuruzi bw'imodoka noneho hakaza kuberaho n'ibindi bikorwa bijyanye no kwigisha imyuga harimo nko gutwara ibinyabiziga, kuba wahakorera perime cyangwa se porovizwari ibi ngibi byose bikorerwa aha hantu.

Nkuko mubibona, aha ngaha hari inzu nziza, inzu yubatse neza cyane ifite amadirishya meza, murabona neza ko harimo n'insinga ziri kugenda zijyana amashanyarazi muri iyi nzu. Iyi nzu rero ikaba ari inzu, murabona ariko ko igipangu kitarakorwa neza, ariko nabwo biri mu nzira kirimo gukorwa.

Aha ngaha na ho rero nk'uko mubibona hari umuhanda ariko uyu muhanda ntago uranozwa cyane ngo ibe ya kaburimbo y'ubutaka. Ikindi kandi murabona ko hari inyubako zitandukanye, hari igipangu cyubatse hano, kandi murabona ko uno muhanda ugiye ugahura n'indi kaburimbo, iyo kaburimbo irimo kugendamo imodoka zitandukanye.

Aha ngaha naho rero ni ahantu. Ni ku muhanda ariko hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi, aho abacuruzi bagiye bashyiraho ibyapa byerekana ibyo bakora. Urabona ko hari umucuruzi wasohoye ibipupe byambaye imyenda kugira ngo abashe kuba yamenyesha abantu ko aho ngaho ahacururiza imyenda myiza y'abantu baba mama.

Nk'uko mubibona rero, aha ni ahantu heza cyane hari inzu nziza bigaragara ko ari inzu ituye yegeranye n'umuhanda. Murabona rero ko ari inzu ya etaje ariko ikindi mubona, murabona umumota uparitse imbere yayo bisa n'aho hari umugenzi ategereje.

Aha ngaha hari ikibuga cy'indege cya Kanombe, hagaragara ko hari andi mazu akikije icyo kibuga. Tubona hari nk'amaresitora, tukabona imodoka ziparitse hafi aho ngaho. Harimo kubona kandi ibiti bigiye bikikire ikibuga, indabo nziza zigiye zikikije iki kibuga cya Kanombe. nyineho hari n'insinga z'amashanyarazi zigenda zambukiranya ziva kunzu imwe zijya ku yindi.

Ngaha rero murahabona naho ni katsiye nini ariko arimo amazu meza hakabamo n'tararavugururwa urabona ko hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi muri uyu muryango murabona ko hari ibintu n'ibi gukoresha isuku amabase indobo n'ibindi bigiye bitandukanye ahangaha rero akaba ari mu gace bita mu kajagari ka mbere.

Uko mubibona rero ahangaha hari agace gatuwe cyane gafite ubucukike urabibona ukuntu inzu zituye, haratuwe cyane pe! ariko angaha kandi hakaba hari eyapoti cyangwa se ikibuga cy'indege. Aho indege zihagarara naho zihagurukira zigiye kugenda.

Aha ngaha rero nkuko mubibona neza hari amazu meza, ariko aya mazu yubatse mu buryo butangaje, urabona ko arimazu agiye yageretse ageretse mu sinzize uko nabivuga niba twayita etaje niba twayita iki ntabwo mbizi, ariko murabona ko ari amazu meza, amazu yubatse neza, amazu ateye ubwuzu kuyareba.

Ahangaha rero murimo kubona, aha hari ibikinisho by'abana, naho abana baza bakicundeba, bakishima, bakicara bagakina, bagaseka, bakishima cyane kuri ibi bikinisho byabo. Ni ahantu heza rero nkuko bigaragara n'ahantu hari amarangi ameze neza cyane.

Aha ngaha rero murahabona inyubako ndende, inyubako tuzi nk'ubwoko bwa etaje. Aha ngaha hakaba hakorerwa ibikorwa bitandukanye, murabona ko haparitse imodoka, haparitse moto, ndetse ni no ku muhanda, kuko murabona ko abantu barimo kugendagenda aha hantu, bigaragara ko hakorerwa ibikorwa bya Leta.

Aha ngaha rero murahabona inzu ndende, inzu ya etaje bigaragara rero ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, aho bamwe mu bacuruzi bagiye bashyiraho ibyapa, nk'aha ngaha murabona ko ari ahantu hakorerwa ibintu bijyanye na salo, ahandi murabona ko hakorerwa kilinike gadeni, hakorerwa ibintu bijyanye n'ubuvuzi bugiye butandukanye.

nkahangaha rero biragaragara ko ari ahantu hateye imbere mu rurimi rw'amahanga baravuga ngo habaye divelope kuko murabona harimo inzu nziza cyane aka gace ni agace karimo inzu nziza ni karitsiye irimo ibiti bya avoka irimo umuriro w'amashanyarazi urabona ko iyi karitsiye harimo imodoka iyi caritine yateye imbere.

Aha ngaha na ho murabona ko ari ahantu heza cyane, hubatse amazu menshi kandi amazu ameze neza, aha rero murabona ko hakorerwa ibikorwa bitandukanye, harimo ubucuruzi n'ibindi byinshi bifitiye igihugu akamaro.

Aha rero murabibona ni amazu meza cyane, bigaragara ko ari ahantu hamaze gutera imbere, ikindi kandi ntabwo hateye imbere mu bwubatsi gusa, ariko murabibona ko hateye n'indi myaka hahinzemo ibigori, ibigori na byo bizabafasha mu guteza imbere, gukomeza kubateza imbere bakabo n'ibyo kurya.

Aha ngaha rero ni ahantu ku muhanda, riko ntabwo hakorerwa ibikorwa byo kugenda gusa, ahubwo murabona ko hari indi nzu ya etaje, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo ubucuruzi bw'imiti, ikindi kandi murahabona hanze haparitse imodoka nyinshi, ahandi hari imitaka ya MTN, bigaragara ko hakorerwamo ubucuruzi bwa MTN serivise.

Nk'uko mubibona rero, aha ni ahantu hateye imbere, murabibona ko ari igipangu cyiza, kirimo inzu nziza izwi mu bwoko bwa etaje, hakaba hariho n'akandi kazu, abantu bakunda kumeka aka kazu ku gipangu cyabo, cyane cyane ari ak'umuntu w'umusekirite ugomba kurinda umutekano w'abinjira n'abasohoka cyangwa se ibibera muri iyo nzu.

Nk'uko mubibona rero, aha ngaha hari umuhanda kandi ni umuhanda ubona ko ari mugari uri ahantu hagari cyane. Rero uyu muhanda murabona harimo ibinyabiziga, igare, moto ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Aha ngaha naho, uyu ni umuhanda urabibona neza ko ari umuhanda munini, mugari cyane, hanyuramo ibinyabiziga bitandukanye, murabibona ko harimo imodoka, harimo moto, amagare, murabibona ko hagiye ari umuhanda mwiza cyane, aho ukikijwe n'amatara yaka nijoro akamurikira imodoka n'abagenzi.

Uyu ni umuhanda ugaragarako ari umuhanda uri ahantu heza ahantu hari umujyi kuki ahantu hateye imbere bigaragara ko harimo urujya n'uruza rw'amamodoka, amamoto atandukanye agiye atandukanye agiye aturuka mu duce dutandukanye ariko cyane cyane hari amashyamba meza haryoheye amaso kuyareba ariko bigaragara ko harimo n'ibyapa bigenda biyobora izo modoka.

Uyu ni umuhanda umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu imodoka moto ariko hariho n'ibyapa biri kugenda byereka abashoferi bakamenya ngo turajya he bitewe n'aho bagiye bakamenya inzira baracamo berekeza byerekezo bagiyemo.

Aha ngaha rero ni umuhanda, ni umuhanda mugari munini kandi ni umuhanda ugaragara neza cyane bigaragara ko ugendwamo n'ibinyabiziga byinshi, aha ngaha rero harimo aho kwambukira h'abanyamaguru ku buryo iyo umunyamaguru arimo kwambuka izindi modoka cyangwag se ibindi binyabiziga biba byahagarara bigategereza ko arangiza kwambuka nabyo bikabona gukomeza.

Uyu nguyu na wo ni umuhanda nyabagendwa ugendamo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo amagare, moto, imodoka ndetse murabona ko hari andi mashyamba akikije uyu muhanda, ni umuhanda mwiza cyane ukikijwe n'amatara, murabona ko hari na etaje iri inyuma ariko ibyo ari byo byose uyu muhanda murabona ko ari umuhanda mwiza kandi umeze neza cyane

Uyu ni umuhanda, urabibona ko ari umuhanda mugari, munini cyane kandi murabona ko ukikijwe n'ibiti byinshi kandi bimeze neza, bikikijwe kandi n'amapoto ariho amatara, bigaragara ko aya matara akoreshwa mu gihe cya nijoro kugira ngo amurike mu muhanda mu gihe cy'umwijima.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha ni mu ihuriro ry'imihanda iturutse mu duce tugiye dutandukanye, aho mubona hari gucamo ibinyabiziga na byo bitandukanye moto, imodoka, noneho mukaza kubona ko hari n'amatara agiye akikije umuhanda ku buryo iyo bwije imodoka n'ibindi binyabiziga byose bibasha kunyura mu muhanda bibona neza.

Nk'uko mubibona rero aha hari umuhanda, akaba ari umuhanda nyabagendwa uherereye i Kigali, urabona ko ari umujyi wa Kigali usukuye, hari n'ibindi byapa bigenda byamamaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Urabibona neza ahangaha ni umuhanda ariko hejuru yaho urabona ko haciye undi muhanda, urabona kuri uyu muhanda uri wo hasi urimo kugendwa n'ibinyabiziga byinshishe cyane harimo amagare, mato mbese urabona ko uyu ari umuhanda nyabagendwa cyane.

Nk'uko mubibona kandi rero ahangaha hari umuhanda munini cyane uyu muhanda ukaba urimo kugendwamo ibinyabiziga bitandukanye urabona ko ibyiganjemo ari imodoka na moto rero hakaba hariho n'amashyamba meza cyane akikije uyu muanda.

Uyu rero ni umuhanda, umuhanda ukikijwe n'amashyamba meza cyane, kandi bigaragara ko ari umuhanda nyabagendwa, ugendwamo n'ibinyabiziga byinshi ndetse n'abantu, noneho hakaba hariho ibyapa bigenda biyobora ibinyabiziga, ndetse n'abantu bawugendamo, icyerekezo bashaka kujyamo.

Uyu nguyu rero nawo ni muhanda, uyu muhanda urimo imirongo itandukanye, igenda yereka yerekana ibyerekezo bibiri, hari icyerekezo kigenda kizamuka n'ikindi cyerekezo, byose nyine birimo gutambika mu buryo butandukanye, hari ikiri kujya iburyo n'ikiri kujya ibumoso.

Aha hantu naho biragaragara ko ari ahantu hari deverope kuko hari imihanda. Murabona ko inyuma y'umuhanda hari amazu meza. Hari ibiti, amashyamba meza akikije umuhanda. Rwose bigaragara ko aha ahantutu hateye imbere. Imodoka ziri mu muhanda, abantu bawugendamo. Hariho ibyapa bigenda bibayobora n'ibindi byinshi byinshi byerekana ko aha hantu hateye imbere.

Uyu nguyu rero ni umuhanda mugari cyane n'aho ni umuhanda nyabagendwa, umuhanda wa kaburimbo ugendamo imodoka, moto, amagare, abagenda n'amaguru n'ibindi binyabiziga byinshi bitandukanye bibasha kugendera mu muhanda.

Aha ngaha rero murabona ko ari mu muhanda, harimo kugendamo ibinyabiziga, harimo moto, imodoka z'ubwoko butandukanye ndetse murabona ko uyu muhanda ukikijwe n'ibiti, ibiti birebire cyane.

Uyu nguyu rero urabona hari umuhanda mugari cyane, akaba ari umuhanda ugenda unyuramo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, urabona ko ikigaragara umumu ngumu ari modoka, bisa naho ipakiye ibintu byinshi ndetse na moto ihetse umuntu, hano ikindi mubona, murabona ko hagiyeyo hari ibiti cyangwa se amapoto agiye ariho amatara amurikira umuhanda.

Nk'uko mubibona rero hangaha ni mu muhanda, akaba ari umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko ari umuhanda wa kaburimbo, urabona ko hari ibindi bintu by'ibyapa, bigenda bigaragaza rokasheni abantu bajyamo cyangwa se ahandi izindi modoka ziva n'aho zijya.

Uyu ni umuhanda rero, nta biragaragara ko ari nyabagendwa, ugendwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, ariko bakaza kutwereka irindi shyamba ryiza rikikije uyu muhanda, bakaza kukwereka ko harimo icyapa kigaragaza ibintu biberamo, bakaza kukwereka amatara yo mu muhanda n'ibindi bitandukanye.

Ahangarero nikwihuriro ry'imihanda igiye iva muduce dutandukanye uko mubibona murabona ko arumuhanda ukata ujya hirya ujya hino uzamuka umunuka nimihanda myinshi ihuriye ahahantu ariko Kandi murabonako iyimihanda ikikijwe nibiti byinshi kandi byiza haramazu mezeza unyuma y'umuhanda meza cyane bigaragarako aramazu akoreshwa.

Nk'uko mubibona rero, aha hari umuhanda. Ni umumuhanda mugari cyane namwe murabibona. Murabona ko ari umuhanda ukikijwe n'ibindi byiza bitandukanye, hakaba hari andi mazu rero akikije uyu muhanda ariko murabona ko ari umuhanda nyabagendwa harimo imodoka nyinshi, harimo moto nyinshi ndetse hakaba hagendamo n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Aha ngaha rero hari umuhanda mwiza kandi mugari, ariko ikigaragara ni uko ari mu gihe cya nijoro, ariko bitewe n'uko hari amatara menshi akikije uyu muhanda urabona ko abari kugendamo baragaragara, imodoka, ibinyabiziga birimo biragaragara, ariko rwose biragaragara ko aha hantu hari heza kandi hateye imbere.